Icyapa cy'ikigo gitanga serivisi z'ubwishingizi cya Radiant, aho iki kigo gitanga serivisi zitandukanye, harimo serivisi z'ubuzima, serivisi z'ubwishingizi ku binyabiziga, serivisi z'imitungo utimukanwa ndetse n'izindi zitandukanye.

Icyapa kinini cyo ku muhanda, gifite ibara ry'umweru ndetse n'andi mabara menshi cya kompanyi ya L&W Insurance company Lmt itanga serivisi z'ubwishingizi, ubwishingizi butangwa n'iyi sosiyete harimo nk'ubwishingizi ku bininyabiziga, ubwishingizi ku matungo ndetse n'ubwishingizi ku mutungo utimukanwa.

Icyapa kiriho umugabo ndetse n'umugore cyanditseho amagambo menshi cyane cyatanzwe na kompanyi itanga serivisi z'ubwishingizi mu Rwanda ya mico surence, zimwe na zimwe muri serivisi zitangwa n'iki kigo harimo nk'ubwishingizi ku buzima, ubwishingizi ku binyabiziga ndetse n'ubwishingizi ku mutungo utimukanwa.

Icyapa kinini cyane kimanitse ku muhanda kiri mu ibara ry'umutuku cyanditseho amagambo y'umweru ndetse n'umukara, kiriho ifoto y'umugabo umanitse inkoni, cyatanzwe na kompanyi ya endi andemu inshuwarense itanga serivisi z'ubwishingizi butandukanye harimo n'izubwishingizi ku binyabiziga n'ibindi bitandukanye.

Icyapa kinini kimanikwa ku mihanda gifite ibara ry'umutuku n'umweru; cyanditseho amagambo kiriho n'umuntu uhagaze wifashe wipfumbase; cyamamaza kopanyi ya mayiweyi itanga serivisi z'ubwishingizi.

Icyapa kinini kiri mu ibara ry'ubururu gishushanyije umugabo cyatanzwe n'ikigo gitanga serivisi z'ubwishingizi mu Rwanda cya Buritamu, aho yakanguriraga abakiriya bayo ko noneho bashobora gutanga ubwishingizi bwo kwivuza mu gihe babukeneye, bukaba bwazabagoboka igihe bagiye mu bitaro cyangwa se bakeneye izindi serivisi zitandukanye z'ubuvuzi.

Icyapa kiri mu ibara ry'ubururu, kigaragaraho umukobwa ndetse n'umusore bicaye ku ntebe nziza z'umweru, cyakozwe n'ikigo cya Prime inshuwarensi, aho cyakanguriraraga abaturarwanda gutangira kwizigamira, kugira ngo birinde cyangwa bazagobokwe mu gihe bageze mu bihe bibagoye.

Ubukangurambaga bwakozwe n'ikigo cya Radiant hifashishijwe ibyapa, aho cyamenyeshaga abaturarwanda bose ndetse n'abafatabuguzi, ko cyabazaniye serivisi nshya yo kugura ubwishingizi ku buvuzi cyise turi kume. Aho umuntu kandi ashobora gutanga ubwishingizi akoresheje terefone ye ngendanwa akanze akanyeri, magana atanu mirongo itatu na rimwe, urwego.

Apulikasiyo y'ikigo gitanga serivisi z'imari mu rwanda cya banki ya kigali yashyiriweho abaturage ndetse n'abakiriya bacyo, kubona zimwe na zimwe muri serivisi zitangwa n'iki kigo bidasabye kojyahogikorera ahubwo bakabonabifashi telefoni cyangwa mudasobwa.

Apulikasiyo yashyizweho n'ikigo gitanga serivisi z'itumanaho mu Rwanda cya MTN mu rwego rwo korohereza abakiriya bacyo kubona serivisi zabo bidasabye ko bajya aho ikigo gikorera ahubwo bakazikora bifashishije telefoni cyangwa mudasobwa, ibi bikoroshya imitangire ya serivisi muri iki kigo.

Apurikasiyo yashyizweho n'ikigo gitanga serivise z'imari, aho yorohereza abakiriya b'iki kigo kubona zimwe na zimwe muri serivise zitangwa n'iki kigo badakoze urugendo, ahubwo bakifashisha mudasobwa cyangwa se telefone ngendanwa mu gushaka ndetse no guhabwa izo serivise.

Apurikasiyo yashyizweho n'ikigo gitanga serivise z'imari cya ekwiti banke. Aho abakiriya b'iki kigo babona zimwe na zimwe muri serivise z'iki kigo, bidasabye ko bajya aho gikorera cyangwa ngo banjye kuba ejenti bacyo, ahubwo bakabikora bifashishije telefoni cyangwa mudasobwa, batavuye aho bari.

Apulikasiyo yashyizweho n'ikigo gitanga serivisi z'imari mu Rwanda cya NCBA, kugira ngo yorohereze abakiriya bayo ndetse n'abandi bagana iki kigo kubona zimwe na zimwe muri serivisi iki kigo gitanga bidasabye ko bajya aho gikorera, ahubwo bakazikora bifashishije telefone igendanwa ndetse na mudasobwa, ibi bikoroshya ndetse bikanihutisha imitangire ya serivisi muri iki kigo.

Icyapa cy'umutuku cyandikishijeho amagambo mu ibara ry'umweru cya asimara burandizi butike kigaragaza iminsi y'icyumweru ndetse n'amasaha batangiriramo, bakanasorezamo akazi kabo.

Inyubako nziza isize amarangi y'umweru ku nkuta ndetse no ku gisenge, ikaba ifite kandi amakaro y'umweru, ikorerwamo ubucuruzi butandukanye nk'imyenda, inkweto, n'ibikoresho ndetse n'ibindi bitandukanye bitahindurwa mu buzima bwa buri munsi.

Umukobwa ufite imisatsi y'imikara w'imibiri yombi, ndetse anambaye umupira w'umukara, aho ahagaze imbere y'ameza ateretseho amavelope menshi, harimo afite ibara ry'umutuku, iry'umukara, indabo zifunze ndetse n'ibindi bitandukanye, bigaragara neza ko aha bacuruza ibijyanye n'ibyo gupfunyika mo.

Ubucuruzi bwo kuri murandasi ni kimwe mu kuzamuka cyane muri iyi minsi, aho umucuruzi ajya kuri uru rubuga agashyiraho ibicuruzwa afite, hanyuma abakiriya bakajya ku rubuga na bo babishima bakishyura bakabibohereza aho bari, badakoze urugendo bajya kubishaka ku masoko.

Akabati kaba karimo ibicuruzwa bitandukanye, cyane cyane iby'ikoranabuhanga nk'amasaha, amatelefone, amaradiyo, amakuteri, imikufi ndetse n'ibindi. Aho umukiriya aza akabireba bidasabye ko abikoraho ahubwo akabireba biri mu kabati kuko kaba kabonerana.

Ubucuruzi bw'inkweto ni kimwe mu bikorwa bigaragaza iterambere ndetse bukagirira akamaro ababukora ku giti cyabo ndetse bikanafasha imibereho myiza y'abaturage, aha ni hamwe mu hakorerwa ubwo bucuruzi aho harimo inkweto z'amoko atandukanye zaba iz'abagore ndetse n'iz'abagabo.

Abamama babiri bahagararanye mu iguriro ricuruza imiti ndetse n'ibikoresho bindi byifashishwa mu buhinzi n'ubworozi aho ibicuruzwa bipanze mu kabati gakozwe mu biti bitondetse ku murongo hakurikijwe ubwoko bwabyo ibi bikoroshya imitangire myiza ya serivisi aho umukiliriya abona ibyo ashaka ndetse n'umucuruzi akabibona ndetse akabimuha bitamugoye.

Abagabo babiri bahagararanye, umwe w'umwirabura ndetse n'undi w'umuzungu, bigaragare ko umwe akora muri kompanyi itanga serivisi zo gucuruza ibinyabiziga ya Toyota, undi arimo kumwereka akantu afashe mu ntoki, amusaba ubusobanuro bw'uburyo gakora ndetse n'akamaro kako muri rusange.

Inyubako ikoreramo polisi y'u Rwanda, ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda, ahari imashini zabugenewe zishinzwe kugenzura ubuziranenge bw'ibinyabiziga, iki kinyabiziga gishyirwa ku mashini kikazamuka kugira ngo gipimwe niba koko gifite ubushobozi bwo gukomeza gukora cyangwa gikeneye gukorerwa isuzuma kugira ngo harebwe niba kikiri kizima.

Abagabo batatu bahagararanye. Bahagaze imbere y'imodoka ebyiri, ahakorera ikigo cy'akageramoto gitanga serivisi z'ubucuruzi bw'imodoka, ndetse n'ibikoresho byifashishwa mu kuzisana mu gihe zangiritse.

Inyubako nini cyane ikoreramo ikigo cya Yundayi gicuruza ndetse kikanakora imodoka, imbere y'inyubako kandi hari ubusitani bwiza cyane bwongera ubwiza bw'inyubako, hari kandi n'ipoto igeza umuriro w'amashanyarazi aho iki kigo gikorera.

Inyubako nziza cyane ikoreramo ikigo cy'Akagera bizinesi gurupe, aho iki kigo gitanga serivisi zo gucuruza ibinyabiziga. Imbere y'inyubako hahagaze abagabo batatu, babiri muri bo bambaye imipira y'umweru ndetse iruhande rwabo haparitse imodoka yo mu bwoko bwa fuso.

Abagabo batatu bahagararanye bafashe urufunguzo rwanditseho inyuguti ABG bigaragara ko ari akagera bisinesi gurupe, imwe muri serivisi zitangwa n'iki kigo harimo ubucuruzi bw'ibinyabiziga ndetse n'ibikoresho byifashishwa mu kubisana mu gihe byangiritse.

Abagabo babiri bahagaze imbere y'imodoka ifite ibara ry'umukara icanye amatara, mu gihe cya nijoro giparitse ahakorera ikigo cy'Akagera motozi. Aho iki kigo gitanga serivisi z'ubucuruzi bw'ibinyabiziga, cyane cyane imodoka ndetse n'ibikoresho byo kuzisana mu gihe zangiritse.

Imodoka nziza cyane yo mu bwoko bwa Toyota ifite amarangi y'umweru ndetse n'umukara, iyi modoka ikaba ari nziza cyane kuko yifashishwa mu koroshya ingendo ndetse n'ubuhahirane hamwe n'uduce tumwe n'utundi ku bakoresha ibinyabiziga, ikindi kandi ikaba ikoresha ibicanwa bikomoka kuri peterori ndetse n'umuriro w'amashanyarazi.

Imodoka nyinshi zo mu bwoko bwa Toyota zifite ibara ry'umweru ndetse n'umukara, ziparitse hamwe ahantu mu kibuga aho zicururizwa, umuntu ukeneye ikinyabiziga akaba yegera amakompanyi acuruza imodoka hanyuma bakayimwinjiriza mu gihugu akayifata igeza imbere mu gihugu.

Ubucuruzi bw'imodoka ni rumwe mu nzego zizamura iterambere ry'ubukungu ndetse n'ubw'ababikora byihuse. Iyi ni imodokadoka yo mu bwoko bwa Toyota, ifite amabara y'umukara ndetse n'umweru. Aho uyishaka wegera amasosiyete acuruza ibinyabiziga ukishyura hanyuma bakayikugezaho.

Imodoka ziparitse hamwe zifite ibara ry'umweru z'ikigo gitanga serivisi z'ingendo cya volukano, aho zifashishwa n'iki kigo mu koroshya ingendo ndetse no gutwara abagenzi mu buryo bwa rusange, zibajyana hirya no hino mu gihugu.

Imwe muri kompanyi zikora ubucuruzi bw'ibinyabiziga, irimo kwamamaza imwe mu modoka bafite ku isoko, aho ifite ibara ry'umukara, imbere kandi ikaba ifite tapi isi ibara ry'ikigina, iyi modoka ikaba icuruzwa iherereye mu Rwanda, ku buryo uyishaka bitamugora ahita ayihabwa, agahabwa n'ibyangombwa byayo byose.

Imodoka nziza cyane yo mu bwoko bwa yundayi ifite ibara ry'umukara ziparitse mu bubiko bw'inyubako icururizwamo izi modoka, iyi nyubako ikaba ari nziza cyane ikozwe n'amapave hasi ndetse ifite ibikuta bisi irangi ry'umweru, bibaritseho icyapa kiranga kompanyi icuruza imodoka z'ubwoko bwa yundayi.

Akamashini kifashishwa mu kubara amafaranga, mu bigo bitanga serivisi z'imari ndetse n'amasosiyete akoresha amafaranga menshi. Imashini ibara amafaranga bitewe n'uko uyikoresha ayitegetse. Iriho kandi amafaranga yamaze kubara munsi, ahambiriye neza hagendewe ku ngano yayo.

Inoti y'amafaranga magana atanu y'u Rwanda ikoreshwa mu Rwanda, iyi noti igaragaraho abana batatu bafite mudasobwa ndetse uruhande rundi rw'inote, rukaba ruriho ikiraro cyo mu kirere kinyura mu ishyamba.

Inyubako ikorerwamo ibikorwa by'ivunjisha ku isoko mvunjafaranga, aho hari umukiriya waje ku kuvunjisha arimo guhabwa amafaranga yo mu gihugu imbere nyuma yo gutanga amadevize, undi nawe arimo kuyakira akayabara, imbere ye hari akabati kabugenewe, ndetse hagati yabo hari ikirahuri cy'icyumba kibatandukanya.

Amafaranga menshi cyane ahambirijwe udukoresho twabugenewe bigendewe ku ngano yayo, ararambitse ku meza akoze mu giti ndetse imbere yayo hakaba ari intebe ifite ibara ry'ubururu, aho umukozi ukora muri iki kigo cy'imari yicara.

Imwe mu noti z'amafaranga y'u Rwanda yakoreshwaga mu gihe cyo hambere, aho iyi noti yatangwaga na banki nkuru y'igihugu, ikaba ari inoti y'amafaranga magana atanu. Iyi noti igaragaraho ishusho y'abana batatu, abahungu babiri ndetse n'umukobwa umwe.

Umusaruro w'ibikomoka mu buhinzi n'ubworozi ni kimwe mu bizamura iterambere ry'igihugu ibi bihutisha ubukungu ndetse bikanazamura imibereho myiza y'abaturage. Ibi ni bimwe mubikorwa mu mata aba yaturutse ku nka zororwa n' aborozi mu bice bitandukanye by'igihugu haba harimo amayawurute amata afunze mu tujerekani dutandukanye n'ibindi.

Inyubako itunganyirizwamo umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi w'amata aho hahagazemo umumama wambaye ikanzu y'umutuku arimo kwereka umukiriya uko igiciro cy'amata gihagaze aha ku ikusanyirizo.

Umugore wambaye itaburiya y'umweru wicaye ku ntebe arimo kuvoma amata mu cyuma cyabugenewe, cyiyongerera umusaruro ahazwi nko kwikusanyirizwa aho aborozi bazana umusaruro wabo hanyuma ugatunganywa ndetse ukanongererwa agaciro.

Umukozi ukora mu kigo giteza imbere ubuhinzi n'ubworozi cyane cyane hongererwa agaciro k'ibikomoka ku bworozi nk'amata. Aho aborozi bagemura amata yabo hanyuma agatunganywa hifashishijwe imashini zabugenewe, hakongererwa agaciro. Ibi bikazamura agaciro k'umusaruro wabo ku isoko ndetse n'abayashaka bakaba bizeye ko yizewe ndetse yujuje ubuziranenge.

Inyubako isize amarangi y'ubururu ku nkuta ndetse na parafo y'umweru, ikaba ikorerwamo n'ikigo cy'Inyange industries Ltd, aho gikusanyiriza amata kikayatunganya kugira ngo yongererwe agaciro.

Inyubako icururizwamo ibicuruzwa bitandukanye cyane cyane ibikomoka ku mata, harimo yahurute, amata, icyayi n'ibindi, hari ibikoresho bitandukanye byifashishwa muri ubu bucuruzi nk'intebe, ameza, utubati, ibikombe, teremosi n'ibindi.

Isahani y'umweru iriho keke eshatu ndetse n'agapapuro k'isuku biteretse ku meza y'umukara, bigaragare ko hari umuntu wicaye ari gufungura afata ibi biribwa ndetse n'icyo gusomeza ku ruhande.

Urubuga rwo kuri murandasi, rwifashishwa mu kwishyura ndetse no guhaha ibicuruzwa bitandukanye hirya no hino ku Isi, iki ni kimwe mu bisubizo byaje, aho umuntu ashobora guhaha mu bihugu bitandukanye adakoze urugendo cyangwa ngo asabwe kuvunjisha amafaranga, ahubwo akishyura yifashishije ikoranabuhanga nka bumwe mu buryo rusange ku Isi hose.

Ikoranabuhanga ni ru rimwe mu rwego ruzamura iterambere ndetse n'imibereho myiza cyane cyane hibandwa ku mitangire ya serivisi myiza kandi yihuse, iki ni icyapa kigaragaza bumwe mu buryo wakifashisha ikoranabuhanga yaba wishyura ibicuruzwa wahashye, ugura amayinite cyangwa se woheherezanya amafaranga n'inshuti ndetse n'abavandimwe.

Urubuga rwo kuri murandasi ruzwi nka ''Pepari'', aho umuntu ahanga konti kuri uru rubuga, hanyuma akayifashisha mu kwishyura ibicuruzwa bitandukanye ndetse no gukora ibindi bikorwa bitandukanye by'imari harimo: nko kohererezanya amafaranga, kwishyura ibicuruzwa n'ibindi bitandukanye.

Icyapa cy'umuhondo cyanditseho amagambo mu ibara ry'umukara, kiriho umumama witeze igitambaro gitukura ndetse afashe na telefoni mu ntoki, cyakozwe n'ikigo gitanga serivisi z'itumanaho mu Rwanda cya MTN. Aho cyabwiraga abakiriya bacyo ko noneho bashobora kwiguriza ipaki yo guhamagara bakanze akanyenyeri ijana na mirongo itanu na rimwe urwego.

Icyapa kigaragaza ikigo gitanga serivisi z'imari mu Rwanda cya sipeni Rwanda ndetse giterwa inkunga na banki ayendemu, aho berekaga abakiriya babo zimwe na zimwe muri serivisi babona ku rubuga rw'iki kigo bidasabye ko bajya ahogikorera, ahubwo bakazibona bifashishije telefoni ngendanwa.

Icyapa kiri mu ibara ry'umweru gishushanyijeho utuntu twinshi kigaragaza uko wakwishyura wifashishije ikoranabuhanga mu buryo butandukanye, yaba gukoresha konti zo kuri mudasobwa cyangwa se telefone, gukoresha amakarita y'ikoranabuhanga n'ubundi buryo butandukanye.

Icyapa kinini kiri mu ibara ry'umweru, kishushanyijeho umumama ndetse cyandistseho n'amagambo hakoreshejwe ibara ry'umutuku ndetse n'umweru. Aho cyakozwe n'ikigo gitanga serivisi z'itumanaho mu Rwanda cya Eyateri. Ibabwira ko bashobora kugura umuriro bakoresheje telefone zabo ngendanwa.

Ikoranabuhanga ni kimwe mu bizamura iterambere ry'ubukungu ndetse bikanihutisha bikananoza imitangire ya serivisi, kwishyura hifashashi ikoranabuhanga byashyizwemo imbaraga hirya no hino ku Isi, aho bitakiri ngombwa abantu bagendera amafaranga, ahubwo ibyo bakeneramo amafaranga byose bakaba babikora bifashishije ikoranabuhanga.

Apurikasiyo yashyizweho n'ikigo gitanga serivisi z'imari mu Rwanda cya Sipeyini, aho umuntu ashobora: kwishyura amazi, kwishyura umuriro, kohereza amafaranga, kubona inguzanyo ndetse n'ibindi bitandukanye bidasabye ko agera aho iki kigo gikorera; ahubwo byose akabikora yifashishije apurikasiyo yakozwe n'iki kigo.

Imwe muri serivisi zazanywe n'ikigo gitanga serivisi z'itumanaho mu Rwanda, harimo kwishyura amafaranga ndetse no kuyohererezanya mu buryo bworoshye, bidasabye ko umuntu akora ingendo ajya gushaka izo serivisi ahubwo byose akabikora yifashishije terefone ye ngendanwa, aho akurikiza amabwiriza akanda imibare yatanzwe n'ikigo gitanga iyi serivisi hanyuma agakurikiza amabwiriza, ibi akabikora adakoze urugendo cyangwa ajya gushaka abandi babimufasha.

Inyemezabwishyu yatanzwe n'Ikigo cy'Igihugu gishinzwe Imisoro n'Amahoro mu Rwanda, aho yahawe Senti Bakeri imenyekanisha ko yasoje kwishyura umusoro w'amahoro mu kwezi kwa karindwi, ibihumbi bibiri na cumi na karindwi.

Inyemezabwishyu yatanzwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda ihawe purayimu inshuwarensi ltd, iki cyemezo kigaragaza ko iyi kompanyi yamaze kwishyura amahoro y'isuku y'ukwezi kwa cumi umwaka ibihumbi bibiri na cumi n'umunani.

Urupapuro rw'umweru rwanditseho amagambo y'ibara ry'umukara, rwatanzwe n'ikigo gitanga serivisi z'imari mu Rwanda cya Banki ofu Kigali, aho umukiriya yari yasabye guhabwa ibikorwa byakorewe kuri kontiye mu gihe runaka.

Icyapa kigaragaza uko ibiciro byifashe ku isoko mvunjafaranga ku madevize akoreshwa mu bihugu bitandukanye nk'aho idolari ry'iinyamerika riri kuvunrwafaranga 34.56 ndetse urishaka agatanga 35.98 .

Icyapa kigaragaza uko ibiciro by'amafaranga akoreshwa hirya no hino mu gihugu bihagaze ku isoko. Ibi bikorohereza abakora ndetse n'abatanga izo serivisi kumenya igiciro cya nyacyo nta buriganya ndetse bikongera imitangire ya serivisi myiza aho buri wese aba azi igiciro nyacyo kiri ku isoko.

Ibiganza bifashe mu ntoki inoti nyinshi zitandukanye ziganjemo izikoreshwa mu gihugu cy'Ubuhinde, aho zishushanyijeho umugabo wambaye amarinet ariwe Mahatima gandhi, IyI akaba ari inoti z'amafaranga magana atanu akoreshwa mu gihugu cyaho.

Inoti nyinshi zihambiriye hamwe mu bifungo, zigizwe n'amabara atandukanye nk'umweru, umuhondo ndetse n'andi, aho bgaragaza amadevize azwi nk'amayero akoreshwa mu bihugu by'i Burayi, aho kandi aya yinjira mu gihugu cy'u Rwanda binyuze mukorwa bitandukanye by'ubucuruzi ndetse n'ubukerarugendo.

Inoti ifiteho amabara y'umuhondo ndetse n'umukara, ikoreshwa mu gihugu cya Congo y'ibihumbi makumyabiri, igaragaraho kandi impala ndetse iriho n'ikibumbano cy'umugore wikoreye igiseke, aya akaba ari amafaranga akoreshwa mu gihugu cy'abaturanyi cya Congo.

Abantu babiri barimo kugurana amafaranga akoreshwa mu bihugu byabo, aho umwe afite Amaneyila ari yo mafaranga akoreshwa mu gihugu cya Nigeria, undi akaba afite amadoralari akoreshwa mu gihugu cy'Amerika.

Ibiceri ni bumwe mu bwoko bw'amafaranga akoreshwa mu Rwanda, aho hari ubwoko bw'ibiceri bitandukanye, nk'igiceri cy'ijana, icya mirongo itanu, icya makumyabiri, ndetse n'icy'amafaranga icumi y'u Rwanda. Aya akaba yifashishwa mu bikorwa bitandukanye by'imari cyane cyane abantu bahererekanya, bagura cyangwa bashaka serivise zitandukanye zikeneye kwishyura.

Ibiganza bibiri bifashe amadevize menshi cyane, bigaragare ko ari akoreshwa mu mugabane w'i burayi, hagizwe n'inoti z'igihumbi, aho yinjira mu gihugu cy'u Rwanda binyuze mu bikorwa bitandukanye, harimo iby'ubukerarugendo, ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ndetse n'ibindi.

Ibiganza by'umuntu ufashe amafaranga mu ntoki y'ubwoko butandukanye, akoreshwa mu bihugu bitandukanye ku isi, aho aya ngaya ashobora kuvunjwamo andi mafaranga bitewe n'igihugu ugezemo, bityo bikakorohera kuba wabona serivisi muri icyo gihugu ndetse no kuba wagira ibyo ugura ukanagurisha nta nkomyi.

Umukozi ukora muri banki arimo guhererekanya n'umukiriya amafaranga bigaragare ko ari amadevize kugira ngo ayashyire kuri kontiyo, bityo agendanana umutekano wo kutagendana amafaranga mu ntoki ahubwo abashe kubona serivisi zitandukanye akoresheje amafaranga ari kuri konti ye.

Umugabo wambaye agapira karimo uturongo tw'amabara kandi atandukanye uri gusoma ibyapa biri imbere y'inyubako itangirwamo serivisi z'ivunjisha aho ari kureba ibiciro uko bihagaze ku isoko mvunjafaranga nk'aho idorari ry'ibinyamerika rihagaze 5556.

Umugabo wambaye umupira w'ubururu ndetse n'ikarita y'ubururu igaragaza ko ari umukozi wa banki, imbere ye hari amafaranga menshi cyane ahambiriye bitewe n'ingano yayo yiganjemo inoti za bitanu. Hari kandi mudasobwa arimo gukoresha mu kazi ke.

Inyubako ndende ikorewemo ibikorwa by'ubucuruzi bitandukanye aho ku muryango wo hasi hari icyapa kigaragaza ko hari ibiro by'ivunjisha, aho umuntu ukeneye amafaranga akoreshwa imbere mu gihugu agenda akayabona ndetse n'ushaka amadevize akaba yayabona, ibi bikoroshya imihahiranire ndetse n'iterambere ry'igihugu.

Icyapa kinini kimanitse ku nyubako kigaragaza ko hakorera sosiyete ya morikimani furankisi, aho sosiyete itanga serivisi zivunjisha ku isoko mvunjawafaranga bityo abakeneye amafaranga yo gukoresha imbere mu gihugu ndetse n'abakeneye amadevize bakaba babona izi serivisi muri iyi sosiyete.

Inyubako nziza cyane y'igorofa ifite inzugi z'ubururu ndetse n'ibiti by'ubusitani bizana umwuka mwiza ikoreramo ikigo cya Minnimekis ltd iki kigo gitanga serivisi z'ivunjisha aho umuntu ufite amadevize ayazana bakaya muvunjira bakamuha amafaranga y'ubwoko akeneye.

Inyubako iriho ibyapa byinshi bigaragaza serivisi zitangirwamo, harimo na serivisi z'ivunjishwai' iyi nyubako ikabikorerwamo n'ikigo cya midi tawungi bia ltd. Aha kandi hatangirwa n'izindi serivisi zo korohereza ndetse no kwakira amafaranga yohugu bya afurika.

Icyapa kiri mu ibara ry'umweru cyanditseho amagambo mu ibara ry'umutuku, ubururu ndetse n'umukara, kimanitse ku nyubako ifite irangi ry'umuhondo kigaragaza ko hakorera Giraneza Foregisi Biro, aha hakaba hatangirwa serivisi z'ivunjisha ku isoko mvunjafaranga, aho ukeneye amafaranga agenda bakamuvunjira yewe n'ushaka amadolari akaba yayabona.

Inyubako ikorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi bitandukanye, imanitseho icyapa kigaragaza ko mu muryango hakoreramo umu ejenti w'ibigo bitandukanye bya hano mu Rwanda, harimo nk'ikigo gitanga serivisi z'imari cya banki ya Kigali ndetse n'icya banki y'abaturage, aho umukiriya ashobora kubona serivisi zimwe na zimwe zitangwa n'ibigo atagiye aho abikorera, ahubwo akazihabwa n'umu ejenti umwegereye.

Inyubako nziza cyane irimo ibikoresho bitandukanye by'ubugeni, hibandwa cyane ku bikorwa mu mbaho, harimo intebe nziza cyane zikoze mu mbaho, ndetse ziriho n'imisego ifite ibara ry'umweru, harimo kandi utubati n'ibindi bikoresho bitandukanye bikozwe mu mbaho.

Ahacururizwa intebe nziza cyane ndetse n'ibindi bikoresho byose bikozwe mu mbaho bitandukanye, aho ubishaka abisanga akaba yabigura bigendeye ku byo yifuza . Aha hari zimwe mu ntebe zifite ibara ry'ubururu ,zifite ibara ry'umweru, utubati, ameza ndetse n'ibindi bitandukanye.

Inzu nziza cyane isize irangi ry'ikigina ndetse irimo intebe ikoze mu rubaho, iyi ntebe ikaba iriho imisego ifite amabara y'ubururu, iyi ikaba ari inzu iherereye mu mujyi wa Kigali, aho ikorerwamo ibikorwa bitandukanye by'iterambere ndetse n'ubucuruzi.

Bimwe mu bikoresho bikorwa n'abakora umwuga w'ubugeni mu Rwanda harimo n'ububaji, aha hari intebe nziza cyane ndetse meza bikoze mu mbaho bitondetse neza ku murongo, ibi bikaba byongerera agaciro k'inyubako ndetse bikaba byifashishwa mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Icyumba cy'uruganiriro kirimo ibikoresho byiza cyane kandi bigezweho; harimo intebe zikoze mu byuma zifite imisego yo mu ibara ry'umukara, hari kandi ameza akoze mu cyuma nayo afite ibara rya shokora ndetse n'umweru n'udutebe dutatu two kwicaraho dukoze mu byuma dufite ibara rya shokora ndetse n'iry'umweru.

Intebe nziza cyane ikozwe mu mbaho, aho yakozwe n'umunyabugeni yifashishije ibiti ndetse n'imbaho bitandukanye, iyi ntebe ifite ibara ry'ikigina kandi ni nziza cyane ku buryo yakwifashishwa mu bihe bitandukanye.

Inyubako y'amagorofa atatu iherereye mu mujyi wa Kigali, ku muhanda munini nyabagendwa, uyu muhanda ukaba umurikiwe n'amatara mu gihe cya nijoro, bityo ingendo zigakomeza nta nkomyi n'abashaka serivisi muri hoteli bakagera nta nkomyi.

Umutungo utimukanwa, ugizwe n'inzu nini cyane, ifite amabara y'umuhondo ndetse n'umweru, iriho kandi ibyuma bikikije amagorofa bifite ibara ry'umweru, ifite ubusitani bwiza cyane, burimo ibiti by'imirimbo kandi iruhande rwawo, hari umuhanda wagenewe ibinyabiziga, ikaba iherereye mu Mujyi wa Kigali.

Inyubako nziza cyane, ifite amagorofa abiri ndetse ikaba ifite indabo nziza cyane zitatse inyubako, haba hejuru ku magorofa ndetse no hasi, ifite kandi ikibuga kinini cy'ubusitani, aho gishobora kwakira ibikorwa bitandukanye bihuriza hamwe abantu benshi nk'ubukwe, amanama ndetse n'ibindi.

Inyubako nziza cyane ifite amatara menshi ahagije ndetse inubakisha amakaro muns, iyi nyubako ikaba yaragenewe kwakira abantu bahuriye hamwe yababasha gufata amafunguro cyangwa baganira ku ngingo zitandukanye, ikaba iherereye muri hoteli imwe zo mu mujyi wa kigali nk' imwe muri serivisi zitangwa n'iyo hoteli.

Umugabo wambaye igisarubeti cy'umweru, yambaye agapfukamunwa ndetse n'ingofero y'umweru, bigaragara ko akora mu gikoni cya hoteri. Imbere ye hateretse ibiribwa bitandukanye harimo karoti, inyanya, ibitunguru, amavuta ndetse n'ibindi. Inyuma ye kandi hari amashyiga agezweho ya kijyambere, bigaraga ko ari igikoni cyo mu nyubako itegurira ibyo kurya abantu benshi.

Ubusitani bwiza cyane burimo imitaka itandukanye, aho munsi y'imitaka harimo intebe nziza za kijyambere, zifite ibara rya shokora, bigaragara ko ari muri hoteri, aho abakiriya bari muri hoteri bashobora guteranira mu gihe barimo gufata amafunguro cyangwa baganira ku ngingo zitandukanye.

Icyapa kiri mu mabara y'umweru, ndetse hari n'utuntu tw'ubururu, cyanditseho ijambo rodisoni buru, kimenyesha ko hano ari kuri hoteli ya radisoni buru, hatangirwa serivisi zitandukanye ,yaba ku muntu ku giti cye, ndetse n'abantu benshi, aho bafite mu byumba by'inama kizwi cyane nka kigali convesheni senta, cyakira inama nini cyane, ndetse n'ibindi bikorwa bihuriza hamwe abantu benshi.

Inyubako nziza cyane, isize irange ry'umweru ku bikuta ndetse no ku gisenge cyayo, ikaba irimo ibikoresho byo mu nzu nk'intebe, ameza, utubati n'ibindi bitandukanye, harimo kandi imitako yabugenewe y'indabo iri mu nzu, byongera agaciro k'ibiyirimo ndetse igakomeza no gusa neza.

Inyubako nziza cyane ifite igikuta cy'umweru imanitseho televiziyo harimo kandi ameza afite ibara ry'umukara ku meza hobitseho ibirahuri yateretse uducupa twa'amazi hari amajyane ndetse n'ibindi bikoresho by'ibanze umuntu yakifashisha mu gihe ari mu cyumba.

Hamwe mu hatangirwa serivisi zitandukanye ku bakiriya bari muri hoteli runaka aho baba bariye umwanya wagenewe gucururizwamo ibinyobwa bitandukanye hari udutebe twiza cyane dukoze mu mbaho ndetse n'ameza buri imbere ya buri ntebe aho kandi hakikijwe n'ubusitani bwiza cyane ku buryo abari gufata serivisi z'ibinyobwa bababitegeye ubusitani bareba ubwiza bw'umujyi.

Ameza ariho ibitambaro bifite ibara ry'umutuku, azengurutswe n'intebe zikoze mu byuma zifite imisego y'ibara ry'umukara, ateretse ahirengeye aho umuntu aba areba ubusitani ndetse n'inyubako ndende iri hakurya ye y'igorofa ,aha akaba ari muri hoteli senti famiye ,aho umuntu ukeneye gufata amafunguro cyangwa kuganira n'abandi, aza akaba yabona iyi serivise.

Inyubako nziza y'igorofa iriho ibirahuri birebire cyane ndetse inazengurukijeho ibyapa by'ijambo Aliyansi, ikorerwamo na kompanyi itanga serivisi z'ubwishingizi y'Aliyansi.

Inyubako nziza cyane ifite amarangi y'umutuku ndetse n'umweru, ikaba irimo n'amatara menshi amurika bikagaragaza umucyo w'iy'inzu, harimo kandi intebe nziza zifite ibara ry'umukara, ameza ya kijyambere akoze mu mbaho ndetse n'ibindi bikoresho byose bikenerwa mu biro.

Icyapa kinini kiri mu ibara ry'ubururu ndetse n'umuhondo, kiri ku nzu isize amarangi y'umuhondo, ikigo gitanga serivisi z'ubwishingizi cya Prime ishami rya Muhanga, serivisi zitangwa n'iki kigo harimo ubwishingizi ku buzima, ubwishingizi ku binyabiziga, ndetse n'ubwishingizi ku' mutungo utimukanwa.

Inyubako nziza cyane ikoreramo kompanyi ya fowenigisi, itanga serivisi z'ubwishingizi, kompanyi serivisi itanga harimo, ubwishingizi ku buzima, ubwishingizi ku binyabiziga, ndetse n'ubwishingizi ku mitungo itimukanwa.

Inyubako nziza cyane ikoreramo ikigo gitanga serivisi z'ubwishingizi mu Rwanda cya Buritamu, zimwe muri serivisi zitangwa n'iki kigo, harimo nk'ubwishingizi ku buzima, ubwishingizi bw'ibinyabiziga ndetse n'ubwishingizi ku mutungo utimukanwa.

Icyapa cy'ikigo gitanga serivisi z'imari zitandukanye cya Eco bank. Aho iyi banki igira serivisi zitandukanye iha abakiriya bazo, harimo kubitsa amafaranga, kubavunjira ndetse no kubaha inguzanyo z'igihe kirekire ndetse n'iz'igihe gito ku bakorana n'iki kigo cy'imari.

Icyapa kinini cyane gishushanyijeho imodoka, cyakozwe n'ikigo cya giti banki, aho yamenyeshaga abakiriya bayo ko noneho bashoboraga guhabwa inguzanyo yo kugura y'imodoka yo kugendamo kugirangwige ibafasha mu mirimo yabo ya buri munsi.

Icyapa kinini cyane kigaragaraho umugabo ndetse n'umugore ufite mudasobwa imbere yabogaretse ku meza, hasi habanditseho amagambo arimo ibara ry'icyatsi ndetse n'umukara. Cyatanzwe n'ikigo gitanga serivisi z'imari mu rwanda cya enisibiye, aho cyamenyeshaga abakiliriya bacyo ko cyabazaniye na serivisi yo kubaha inguzanyo igihe kirekire ku bakeneye kugura ndetse no kubaka amazu yo guturamo.

Icyapa cyamamaza cy'ikigo cya jiti banke Rwanda aho cyabwiraga abakiriya bacyo ko bashobora kubona zimwe na zimwe muri serivisi z'iki kigo bidasabye ko bajya bagikorera ahubwo bakifashisha telefoni bakandaka * 600# bagakurikiza amabwiriza.

Abaturage bahuriye hamwe mu gikorwa cyo kwizigamira binyuze mu matsinda mato mato, aho bibafasha kwiteza imbere, nyuma yo kugenda bizigamira amafaranga make make, hanyuma nyuma y'igihe runaka bakazayagabana bakajya gukoresha imishinga yabo igiye itandukanye, ibi bikabafasha kwiteza imbere ndetse no kuzamura ubukungu bw'Igihugu.

Abayobozi mu nzego za Leta zitandukanye, abaturage ndetse n'abakozi ubwo bari bahuriye hamwe igikorwa cyo gufungura ku mugaragaro inyubako nshyashya yo gukorerwamo n'ikigo gitanga serivisi z'imari mu Rwanda cya Ekwiti banke piyerisi, umwaka w'ibihumbi biri na makumyabiri na kane.

Icyapa kinini cyane cy'ikigo gitanga serivisi z'imari mu rwanda cya banki y'abaturage aho cyamenyeshaga abakiriya bacyo zimwe na zimwe muri serivisi cyari cyongeye muzo zisanzwe gitanga harimo gutanga inguzanyo z'igihe kirekire ku bifuza gukora ibikorwa bitandukanye by'iterambere.

Icyapa kinini cyane kiri mu ibara ry'icyatsi zi cyanyanditseho amagambo menshi, kiriho ifoto y'umugabo ufashe amafaranga mu ntoki, cyakozwe n'ikigo I&M banke kimenyesha abakiriya bacyo ko ubu cyabazaniye serivise yo guhabwa inguzanyo aho ushobora guhabwa inguzanyo igera kuri miliyoni mirongo itanu, mu gihe cy'amasaha makumyabiri n'ane gusa.

Abantu benshi cyane bahuriye mu cyumba cy'inama, bambaye udupira tw'icyatsi twanditseho amagambow mu ibara ry'umweru, bari bamaze guhugurwa uburyo basigasira ibidukikije, cyane cyane hitabwaga ku gice cy'amayaga nk'uko cyagaragazwaga n'icyapa cyagaragazaga ibyo baganiragaho muri iyi nama.

Icyapa kiri mu ibara ry'umweru cyanditseho amagambo menshi, amwe rimwe ibara ry'icyatsi andi ari mu ibara ry'umukara, cyatanzwe n'ikigo cy'igihugu gitsura amajyambere, aho cyamenyeshaga Abaturarwanda ko noneho bashobora kwiteza imbere bahabwa impapuro mpeshamwenda, bityo bagatanga umusanzu wabo mu kubaka igihugu.

Icyapa kiri mu ibara ry'umweru kigaragaraho abantu babiri umusore ndetse n'umukobwa cyakozwe n'ikigo gitanga serivisi z'imari cya enisibi eyi aho bakanguriraga abakiliriya babo bamenyesha ko noneho bashobora kubona inguzanyo zo kugura inzu zabo zo guturamo.

Icyapa kinini cyane cyakozwe n'ikigo gitanga serivisi z'imari mu Rwanda cya Sipeni, aho cyamenyeshaga abakiriya bacyo ko cyazanye serivisi nshya ari iyo guhabwa inguzanyo, bityo bikabafasha kwiteza imbere mu bikorwa byabo, ndetse bakagira akamaro aho batuye, aho bakorera ndetse n'igihugu muri rusange.

Icyapa kiri mu ibara ry'ubururu cyandikishijeho amagambo y'umweru ndetse n'umuhondo, kiriho kandi ifoto y'umumama ufashe amafaranga mu ntoki yishimye cyane. Cyakozwe n'ikigo gitanga serivise z'imari cya ekobanke, aho iki kigo cyashishikarizaga abakiriya bacyo kwizigamira nka bumwe mu buryo bwabafasha kugera ku iterambere ryabo byihuse.

Abagore benshi bahuriye mu gasoko cyane cyane kiganjemo imboga n'imbuto nka kimwe mu bikorwa by'iterambere usanga akenshi bikorwa n'igitsina gore kugira ngo biteze imbere ndetse nabo bagire uruhare mu iterambere ry'umuryango ndetse n'iry'igihugu muri rusange.

Inyubako icururizwamo ibicuruzwa bitandukanye cyane cyane byibanda ku by'umuco gakondo, harimo nk'imisambi, ibiseke, ibyibo, inkoni za kinyarwanda, ingabo, imiheto ndetse n'ibindi bikoresho by'ibibumbano bitandukanye byibanda cyane ku muco nyarwanda.

Isoko ricururizwamo ibicuruzwa bitandukanye, cyane cyane ibikomoka ku buhinzi nk'ibishyimbo, ibigori, amasaka ndetse n'ibindi, aho biri mu bikoresho bitandukanye byabugenewe, hari kandi n'igice cyanewe gucururizwamo ibikoresho bisanzwe byo mu rugo nk'indobo, amabase n'ibindi.

Inyubako ndende y'ubucuruzi igizwe n'amagorofa menshi, aho hasi yayo haparitse amamodoka ndetse harimo n'urujya n'uruza rw'abantu, bigaragara ko bagiye gushaka serivisi zitandukanye muri iyi nyubako, iyi nyubako ika iherereye mu mujyi wa Kigali ahazwi nka Nyabugogo.

Umugabo urimo gucuruza ibicuruzwa bitandukanye, cyane cyane ibikomoka ku buhinzi, inyanya n'urusenda, imbere ye hari umuntu wambaye amaherena, ikanzu y'umukara ndetse anipfutse igitambaro, arimo kumuha bimwe na bimwe mu byo yahashye abimupfunyikira, ibi bikihutisha imitangire ya serivise.

Urujya n'uruza rw'abantu baremye isoko ricururizwamo ibiribwa bitandukanye, cyane cyane hibandwa ku bikomoka ku buhinzi. Harimo intoryi, inyanya, karoti, ibitunguru, amashu n'ibindi.

Isoko riberamo ubucuruzi bw'ibicuruzwa bitandukanye, ahateranira abantu b'ingeri zose baje guhaha ndetse no gucuruza ibicuruzwa bitandukanye, cyane cyane higanjemo ibikomoka ku buhinzi n'imboga n'imbuto, aho harimo inanasi, amapera n'imineke n'ibindi.

Isoko rigezweho rya kijyambere rya nyabugogo ahacururizwa ibicuruzwa bitandukanye nk'imboga, imbuto, imyenda, inkweto, ibikoresho byo mu nzu ndetse n'ibindi bitandukanye, aho kandi hari umwanya wabugenewe aho abatwara ibinyabiziga baparika, ibi bikaba bikorohereza imihahiranire ndetse bikanoza n'imitangire ya serivisi ku bacuruzi ndetse n'abaguzi.

Inyubako ikorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi butandukanye, yaba ibikoresho, imyambaro ndetse n'ibindi, hibandwa cyane ku bijyanye n'umuco gakondo, nk'inkoko, imitako, ibiseke, ibikomo n'ibindi byinshi bitandukanye.

Kiyosike ya MTN, ahatangirwa serivisi zihariye zitangwa n'iki kigo: nko kohereza amafaranga, kubitsa, kubikuza ndetse n'izindi; bidasabye ko umuntu ajya aho ikigo gikorera ahubwo akabikorera ku mu agent umwegereye, agahabwa zimwe na zimwe muri serivisi zitangwa n'iki kigo.

Umumama uri munsi y'umutaka, wambaye umupira w'umuhondo, ndetse n'igisarubete cy'umuhondo, kiriho ibirango bya sosiyete itanga serivisi z'itumanaho mu Rwanda ya emutiyene. Aho zimwe na zimwe muri izo serivisi zitangwa n'iyi sosiyete harimo gutanga murandasi, gutanga amayinite, kohereza amafaranga, n'izindi zitandukanye.

Abakozi b'ikigo gitanga serivisi z'itumanaho mu Rwanda cya MTN, aho bambaye imipira iriho ibirango by'iki kigo, bigaragara ko bamamaza serivisi iki kigo gitanga, ndetse banakangurira abakiriya kuyoboka serivisi z'iki kigo.

Icyapa kinini kiri mu ibara ry'umuhondo cyanditseho amagambo mu ibara ry'umukara, cyatanzwe n'ikigo gitanga serivi z'itumanaho mu Rwanda MTN, aho yabwiraga abakiriya bayo ko noneho yazanye uburyo bwo kwishyurana aho kandi hariho imibare iranga umucuruzi ukora muri Getpong enterprise, aho hagaragara nimero ye yo kwishyurwaho dukoresheje iyi sosiyete.

Zimwe muri serivisi zitangwa n'ikigo gitanga serivisi z'itumanaho mu Rwanda cya MTN, harimo kwishyura ndetse no kohererezanya amafaranga, aho umukiriya akoresha telefone ye akaba yakoherereza amafaranga avuye kuri konti ye kuri mugenzi we yifashishije telefone ye bidasabye ko ajya gushaka iyo serivisi ku bandi.

Hatangirwa serivisi z'ikigo gitanga serivisi z'itumanaho mu Rwanda cya MTN, aho umukiriya abona serivisi zimwe na zimwe z'iki kigo bitamusabye ko ajya aho ikigo gikorera ahubwo akazihabwa ku ba ajenti bari hirya no hino mu gihugu b'iki kigo.

Ahatangirwa serivise z'ikigo gitanga serivise z'itumanaho mu Rwanda cya MTN, aho umukiriya abona serivisi zimwe na zimwe zitangwa n'iki kigo bidasabye ko ajya ahogikorera, ahubwo akazihabwa ku muajenti umwegereye. Ibi bikanoza imitangire ya serivise muri iki kigo

Umukozi ukorera kompanyi itanga serivisi z'itumanaho mu Rwanda ya MTN, aho ari kwakira umukiriya amuha serivisi, ibi bikaba byororohereje abaturarwanda kongera kubona serivisi hirya no hino mu gihugu biboroheye, ndetse bikanazamura imibereho myiza ndetse n'ireme rya serivisi bahabwa n'iki kigo.

Icyapa cy'umuhondo, cyanditsweho amagambo mu ibara ry'umukara ndetse n'iry'ubururu, cyatanzwe n'ikigo gitanga serivisi z'itumanaho mu Rwanda cya MTN, kigaragaza kode y'umucuruzi nka bumwe mu buryo iki kigo cyazanye, bufasha abakiriya kwishyura ibicuruzwa bifashishije iri koranabuhanga.

Umusore ndetse n'umukobwa, bambaye imipira y'umuhondo iriho ibirango bya sosiyete, itanga serivisi z'itumanaho mu Rwanda bikikijwe kandi n'ameza ariko ibitambaro by'ibirango by'isosiyete kumwe n'umutaka uri hejuru yabo. Ibi bigaragaza ko bari bari kumenyekanisha ibikorwa by'iyi sosiyete begerezwa abaturage.

Ahatangirwa serivisi z'ikigo cy'itumanaho mu Rwanda cya MTN, aho umukiriya abona serivisi zimwe na zimwe z'iki kigo, bidasabye ko ajya aho gikorera ahubwo akazihabwa ku ba ejenti bari hirya no hino mu gihugu.

Abagabo babiri bahagararanye, umwe ahagaze mu gakiyosike k'ikigo gitanga serivisi z'itumanaho mu Rwanda cya Airtel, aho arimo kwakira umukiriya amuha serivisi zimwe na zimwe zitangwa n'iki kigo bidasabye ko umukiriya ajya aho ikigo gikorera ahubwo akazibona ku mwagenti.

Umukozi w'ikigo cya Vuba vuba gikorera kuri murandasi. Aho iki kigo gitanga serivise zitandukanye harimo nko kohereza ibicuruzwa, ndetse no gucuruza ibicuruzwa bitandukanye, aho umukiriya ajya ku rubuga rw'iki kigo hanyuma agatumiza ibyo ashaka, iki kigo kigakoresha abakozi bacyo babimwohereza aho ari, atavuye mu rugo, nta rugendo akoze.

Urubuga rukorera kuri murandasi rwa Rwanda mati rukora ibikorwa by'ubucuruzi, aho bashyira ibicuruzwa bitandukanye kuri uru rubuga, hanyuma abakiriya bakaza kurusura bagira ibyo bashima bakishyura, hanyuma bakabiboherereza batavuye aho bari, cyangwa ngo bakore urugendo bajya kubishaka.

Urubuga rwo kuri murandasi rucururizwaho ibikoresho ndetse n'ibicuruzwa bigiye bitandukanye, aho umukiriya ajyaho agasura ibicuruzwa bihari, yabishima akabyishyura, hanyuma bakabimwoherereza kuri aderesi yatanze, adakoze urugendo ajya kubishaka kandi mu gihe kitarambiranye.

Urubuga rwo kuri murandasi rw'ikigo cya kasha, aho bacururiza ibicuruzwa byabo bitandukanye babishyira kuri uru rubuga ndetse bagashyiraho n'ibiciro byabyo. Abakiriya bagasura urubuga babishima bakishyura hanyuma bakabyohererezwa badakoze urugendo bajya kubishaka ahubwo bikabasanga aho biri kandi mu gihe gito.

Urubuga rwo kuri murandasi, rukorerwaho serivisi zitandukanye z'ubucuruzi, aho abakiriya bajyaho bakareba bashima ibicuruzwa bakishyura, bityo bakabyohererezwa bidasabye ngo ko bakora urugendo bajya kubishaka, ahubwo abakozi ba nyir'urubuga bakabibagezaho aho bari bitabagoye.

Icyapa kiri mu ibara ry'ubururu, gishushanyijeho imyenda itandukanye, amakanzu, amajipo, n'indi, aho urubuga rwa jumia rukorera kuri murandasi, rucururiza ibicuruzwa byarwo, bitandukanye, aho umukiriya ajyaho, yashima ibicuruzwa akishyura, hanyuma akabyohererezwa aho ari, adakoze urugendo ajya kubishaka.

Urubuga rwo kuri murandasi rucururizwaho ibicuruzwa bitandukanye, aho umukiriya ajyaho akareba ibicuruzwa bihari, yagira ibyo ashima akabyishyura hanyuma bakabimwohereza aho aherereye bitamusabye gukora urugendo ajya kubishaka mu masoko.

Inyubako ndende ikorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi bitandukanye nk'uko bigaragazwa n'ibyapa bitandukanye bimanitse kuri iyi nyubako. Aho hakorera nk'ikigo cya ihaha tekinorojizi gikorera kuri murandasi. Aho bashyira ibicuruzwa byabo kuri murandasi ndetse n'agaciro ka byo. Hanyuma abakiriya bagasura urubuga rwabo babishima bakishyura iki kigo kikabiboherereza aho bari badakoze urugendo.

Umutungo utimukanwa ugizwe n'inzu nziza cyane ifite inkuta zisize irangi ry'umweru ndetse n'inzugi n'amadirishya bisize irangi ry'umukara, ikaba irimo amakaro meza cyane y'amabara hasi, iyi nzu ikaba iherereye mu Mujyi wa Kigali, aho iri kugurishwa miliyoni ijana na mirongo itatu gusa z'amafaranga y'u Rwanda.

Itangazo rirangisha umutungo utimukanwa ugizwe n'ubutaka, buherereye mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali, aho ari ikibanza cyo kubakaho gifite ubuso bwa metero kare igihumbi na magana arindwi, bukaba bugurishwa miliyoni ma gatatu n'eshanu gusa z'amafaranga y'u Rwanda k'ubukeneye.

Umutungo utimukanwa ugizwe n'inzu nziza cyane isize amarangi y'umweru ku nkuta ndetse n'inzugi zifite ibara ry'ikigina ikaba irimo amakaro iyi nzu iherereye mu mujyi wa Kigali aho igurishwa miliyoni mirongwrindwi neshanu z'amafaranga y'u Rwanda.

Abantu babiri, umugabo ndetse n'umugore bahagaze mu nzu nziza cyane, imbere yabo hari ibikoresho byiza bikozwe mu mbaho, byiganjemo intebe n'ameza, bigaragara ko bari kuganira bungurana ibitekerezo ku byo bakorera muri iyi nyubako.

Umutungo utimukanwa ugizwe n'inzu nziza cyane, ifite igisenge cy'umukara ndetse iteye amarangi y'umweru, ifite kandi n'ubusitani bwiza cyane n'umwanya wagenewe guparikwamo imodoka, iherereye mu Mujyi wa Kigali ikaba ifite agaciro ka miliyoni mirongo irindwi n'eshanu z'amafaranga y'u Rwanda.

Umutungo utimukanwa ugizwe n'inzu ifite amarangi y'umweru, irimo kandi n'ibikoresho bitandukanye byo mu nzu nk'igitanda, matera, ameza n'ibindi. Iyi nzu ikaba iherereye mu mujyi wa Kigali, aho ikodeshwa amadolari igihumbi n'ijana ku kwezi.

Umugabo ndetse n'umugore bari kugenda mu nyubako nini cyane ifite inkuta zifite amabara y'umweru hakaba harimo kandi n'imitako myiza irimbisha inzu harimo kandi ibikoresho bigenerwa nk'intebe ameza, utubati, n'ibindi bitandukanye.

Umutungo utimukanwa ugizwe n'inzu nziza cyane isize amarangi y'umweru, irimo amakaro ndetse n'ibindi bikoresho by'ibanze. Iyi nzu ikaba iherereye mu mujyi wa Kigali, aho igurishwa miliyoni mirongo icyenda n'eshanu gusa z'amafaranga y'u Rwanda ku muntu uyikeneye.

Umutungo utimukanwa ugizwe n'inzu nziza cyane, ifite amarangi y'umweru n'ubururu ndetse ikaba ifite n'igisenge cy'umutuku n'amakaro ari mu ibara ry'umukara. Aho kandi ifite igipangu kinini cyane gifite ibara ry'umukara, inzu ikaba iherereye mu Mujyi wa Kigali, aho ifite agaciro ka miliyoni ijana na mirongo itatu z'amafaranga y'u Rwanda.

Umutungo utimukanwa ugizwe n'inzu nziza cyane, ifite igisenge cy'umukara gisize amarangi y'umweru, iyi nzu iherereye ku muhanda wa kaburimbo, aho ikodeshwa ibihumbi ijana gusa by'amafaranga y'u Rwanda ku kwezi ku muntu ukeneye kuyituramo.

Umutungo utimukanwa ugizwe n'inzu nziza cyane iherereye Kimironko mu mujyi wa Kigali ariko iyi nzu ikaba itararangiza gukorwa, aho igizwe n'ibyumba bibiri byo kuryamamo ndetse na kimwe cy'ubwiherero. Iyi nzu ikab a ikodeshwa ibihumbi magana atandatu ku kwezi.

Umutungo utimukanwa ugizwe n'inzu nziza cyane isize amarange y'umweru, ikaba irimo utubati dukoze mu mbaho, ikindi kandi ikaba irimo ibitanda ndetse n'uburiri. Aho iyi nzu ikodeshwa amadolari magana atanu mirongo itanu ku kwezi mu mujyi wa Kigali mu Rwanda, ku muntu ukeneye kuyituramo.

Umutungo utimukanwa, ugizwe n'inzu nziza cyane isize amarangi y'umweru, ifite igisenge cy'umutuku, ikaba iherereye mu mujyi wa Kigali-Kimironko, ifite ibyumba bine byo kuraramo, ubwogero bubiri, ikaba igurishwa miliyoni mirongo itatu z'amafaranga y'u Rwanda.

Umutungo utimukanwa ugizwe n'inzu nziza isize amarangi y'umweru ndetse n'umutuku, ikaba ifite n'igisenge cy'umutuku, ifite ubusitani bwiza buri imbere yayo bikomeza kongera ubwiza bwayo, iyi nzu ikaba ikodeshwa, iherereye Kimironko mu Mujyi wa Kigali.

Umutungo utimukanwa ugizwe n'inzu nziza cyane, ifite icyumba kimwe cyo kuraramo, icyumba kimwe cy'ubwogero ndetse ikaba ifite n'ibindi bikoresho byose nkenerwa. Iyi nzu ikaba iherereye mu mujyi wa Kigali, Kacyiru aho ikodeshwa ibihumbi magana biri ku kwezi.

Inyubako nziza cyane ifite igorofa, isize amarangi y'umutuku ndetse n'umweru, imbere yayo hakaba hari amavase ahinzemo indabo nziza cyane, iyi nzu ikaba irimo kandi ibikoresho byose nkenerwa, ikaba ifite ibyumba bitatu byo kuraramo ndetse n'ubwogero bubiri ikodeshwa amadorari igihumbi gusa ku kwezi.

Umutungo utimukanwa ugizwe n'inzu nziza cyane isize amarangi y'umweru ndetse n'ubururu, ikaba ifite igisenge cy'umutuku, aho iri ku muhanda ndetse ikikijwe n'ubusitani bw'indabo nziza cyane. Iyi nzu ikaba ikodeshwa, iherereye mu Mujyi wa Kigali aho ku kwezi ikodeshwa ibihumbi magana atandatu by'amafaranga y'u Rwanda.

Umutungo utimukanwa ugizwe n'inzu nziza cyane, zifite igisenge cy'umutuku, amarangi y'umweru n'umukara ndetse rikaba ririho n'igipangu cy'umukara. Iyi nzu ikaba iherereye Kimironko mu mujyi wa Kigali, aho ikodeshwa magana atatu na mirongo itanu gusa ku kwezi.

Umutungo utimukanwa ugizwe n'inyubako nziza cyane isize irangi ry'ubururu, ndetse ikafite n'igisenge cy'umutuku, iyi nzu ikaba iherereye Kabeza mu Mujyi wa Kigali, aho irimo kugurishwa ikaba iherereye neza neza hafi n'umurenge wa Kabeza.

Umutungo utimukanwa ugizwe n'inzu ndende igeretse iherereye mu mujyi wa Kigali, ikaba ifite ibyumba bibiri byo kuryamamo ndetse n'ibyumba bibiri by'ubwogero, ariko inyubako ikaba itararangira gutunganwa neza, ikodeshwa ibihumbi magana atandatu ku kwezi k'umuntu ukeneye kuyibamo.

Umutungo utimukanwa ugizwe n'inzu nini cyane, isize amarangi y'umuhondo n'umutuku, ifite igisenge cy'umukara, ikikijwe kandi n'ubusitani bwiza cyane. Iyi nzu ikaba iherereye mu mujyi wa Kigali i Kanombe, aho ikodeshwa ibihumbi magana ane gusa ku kwezi ku muntu uyishaka.

Inyubako ndende cyane y'amagorofa atatu ikorerwamo ibikorwa bitandukanye by'ubucuruzi, iruhande rwayo hari umuhanda munini nyabagendwa, unyuramo ibinyabiziga bitandukanye ndetse n'akayira k'amapave kagenewe abanyamaguru, ibi bikorohereza abaje gushaka serivisi aha ngaha kuhagera mu buryo buboroheye.

Isoko rigezweho rya kijyambere rifite isuku ndetse rifite inkuta zitaraye irangi ry'umweru n'igisenge cy'umweru kiriho amatara menshi cyane. Ahacuruza ibicuruzwa bitandukanye, aho biba bipanze neza ku murongo ibi bikorerereza umukiriya ndetse n'umucuruzi kuba bagura ndetse umucuruzi akamenya amakuru y'ibicuruzwa atwaye bitamugoye.

Iguriro rigezweho rya kijyambere aho ibicuruzwa biba ndetse hagendewe ku bwoko bwabyo. Hakaba hari umwanya uba waragenewe gushyirwamo ibiribwa, uwagenewe imyambaro, uwagenewe ibikoresho, n'ibindi. Ibi bikorohereza abakozi bakora muri iri guriro ndetse n'abakiriya kubona ibyo bashaka bitabagoye.

Iguriro rigezweho rya kijyambere, aho ibicuruzwa biba bitondetse ku murongo hagendewe ku bwoko bwabyo, impande ya buri gicuruzwa kandi hakaba hari agapapuro kagaragaza ibiciro byacyo. Ibi bikorohereza abaguzi kumenya ibyo bakeneye ndetse bakamenya n'igiciro cyabyo bitabagoye.

Inyubako nini cyane ikorerwamo ubucuruzi, aho hagaragaramo abantu barimo kugura ibinyobwa bitandukanye ndetse na hari n'udutebe bagenewe kwicaramo mu gihe barimo gukoresha ibyo baguze, harimo kandi umukozi w'iyi nyubako wambaye ishati y'umuhondo, ipantaro y'umukara ndetse anakenyera agatambaro, kagaragaza ko ari mu kazi.

Isoko rigezweho rya kijyambere ricururizwamo ibicuruzwa bitandukanye, cyane cyane hibandwa ibikomoka ku buhinzi, aho harimo inyanya, karoti, imiteja, ibitunguru n'ibindi, hakaba kandi n'ibindi bice by'inyubako byagenewe gucururizwamo ibindi bicuruzwa, ibikoresho byo mu nzu, imyambaro n'ibindi.

Umukobwa wambaye umupira w'umweru, ipantaro y'umukara ndetse afasha na mviropi mu ntoki, bigaragare ko ari mu isoko rigezweko rya kijyambere ry'ibiribwa, aho ibicuruzwa biba bipanze ku murongo ndetse handitseho n' ibiciro byabo, ibi bikorohera umuguzi kumenya igiciro cy'ibyo akeneye ndetse n'aho abishakira mu isoko.

Kimwe mu byongera agaciro k'inyubako harimo ibikoresho biyirimo, iyi ni inyubako irimo ibikoresho byiza cyane bikoze mu mbaho, higanjemo ameza ndetse n'intebe byiza cyane, bikoze mu mbaho, hari kandi utubati ndetse n'ibindi bitandukanye.

Inyubako nini cyane igizwe n'amagorofa menshi akikijwe ku ruhande n'ibyuma bifite ibara ry'umukara. Iyi nyubako ikaba yaragenewe gukorerwamo ubucuruzi, aho usanga ibicuruzwa bibarizwa ku bice bitandukanye nk'ibikoresho, imyambaro, ibiribwa, n'ibindi. Bityo bikorohera abakenera guhahira muri iri soko kumenya aho bashakira ibyo bakeneye.

Isoko rinini rya kijyambere ricururizwamo ibicuruzwa bitandukanye ibikoresho byo mu nzu n'imyambaro, ibiribwa ndetse n'ibindi, aho buri ruhande ruba rufite ibicuruzwa runaka byagenewe, ibi bikorohereza abaguzi kumenya aho bashakira ibyo bakeneye ndetse bikanihutisha imitangire ya serivisi.

Inyubako nini cyane yagenewe gukorerwamo ubucuruzi bw'ibicuruzwa bigiye bitandukanye, aho usanga buri ruhande rufite ibicuruzwa runaka byagenewe kuhacururizwa bityo bikorohereza abagura ndetse n'abagurisha kumenya aho bashakira ibyo bakeneye bitabagoye.

Abaturage benshi bahuriye hamwe, bakurikira umukino warikurikiye igikorwa cy'ubukangurambaga bwakozwe n'ikigo cy'igihugu cy'ubwiteganyirize, buzwi nka ejo heza, aho bashishikarizaga abaturage kwizigamira kugira ngo bazagobokwe mu gihe cy'izabukuru, bazaba batagishoboye gukora.

Icyapa kinini kiri mu ibara ry'umuhondo ndetse n'ubururu gishushanyijeho amafoto y'abamama bateruye abana ndetse cyanditse amagambo mu ibara ry'umweru cyatanzwe n'ikigo cy'igihugu cy'ubwiteganyirize mu rwanda RSSB aho cyibutsaga abaturage ko bagomba gutanga ubwishingizi mu kwivuza buzwi nka mituweli de sante.

Icyapa kiri mu ibara ry'ubururu, cyandikishijweho amagambo mu ibara ry'umweru, cyakozwe n'ikigo gitanga serivisi z'ubwiteganyirize mu Rwanda RSSB, aho cyibutsaga abakiriya bacyo ko ari bo bari ku isonga mu byo iki kigo gikora byose.

Ikarita y'ubwisungane mu kwivuza mutuelle de sante, yatanzwe n'ikigo cy'igihugu cy'ubwiteganyirize mu Rwanda cya RSSB, aho umuturarwanda yishyura umusanzu hanyuma agahabwa ikarita yo kwifashisha mu gihe agiye kwivuza, ibi bikoroshya imitangire myiza ya serivisi ndetse bikazamura n'imibereho myiza y'abaturage.

Umukozi w'ikigo cy'ubwiteganyirize mu rwanda cya RSSB, aho yari afashe impapuro umurwayi yaje kwivurizaho ndetse n'ikarita yiwe mu ntoki ifite ibara ry'ubururu, arimo yinjiza amakuru muri mudasobwa iteretse imbere ye, ibi bikanoza imitangire ya serivisi ndetse no kubika amakuru y'umukiriya.

Iguriro rigezweho rya kijyambere aho ibicuruzwa biba bitondetse ku murongo hagendewe ku bwoko bwabyo. ibinyobwa ukwabyo ibiribwa ndetse n'ibindi bitandukanye. Aho kandi buri bicuruzwa biba byanditseho igiciro ibi bikohereza umuguzi mu kumenya guhitamo ndetse n'agaciro k'ibyo akeneye.

Iguriro rigezweho rya kijyambere, rifite inkuta z'umweru ndetse n'utubati twiza dufite ibara ry'umutuku, ripanzemo ibicuruzwa bitandukanye. Aho umukiriya aza agahitamo ibicuruzwa hagendewe ku byo akeneye kandi buri giciro cya buri gicuruzwa kikaba cyanditseho, ibi bikamworohera mu kumenya guhitamo ndetse bikanorohereza abakora muri aya maguriro.

Iguriro rigezweho rya kijyambere, aho ibicuruzwa biba bipanze mu tubati ku buryo bwo ku murongo hakurikijwe ubwoko bw'ibicuruzwa. Buri bicuruzwa kandi babyanditseho igiciro cyabyo. Ibi bikorohereza abaguzi kumenya aho bashakira ibyo bakeneye, ndetse n'igiciro cyabyo bitabagoye, kandi bikanoza imitangire myiza ya serivise muri aya maguriro.

Iguriro rigezweho rya kijyambere, aho ibicuruzwa biba bitondetse ku murongo hagendewe ku bwoko bwabyo. Hakabamo kandi udukoresho twabugenewe, twifashishwa n'abakiriya mu gihe barimo bagenda bahitamo ibicuruzwa bakeneye. Ibi bikoroshya imitangire ya serivisi ndetse bikanoroshya akazi k'abakozi bakora muri aya maguriro.

Iguriro rigezweho rya kijyambere aho ibicuruzwaba bitondetse ku murongo hagendewe ku bwoko bwabyo ibiribwa kwabyo ibinyobwa imyambaro ndetse n'ibikoresho bitandukanye, kandi buri bicuruzwa bikaba biho igiciro ku buryo byohereza umukiriya kumenya agaciro k'ibyo akeneye bitamugoye.